Umurima urimo imboga nyinshi zitandukanye, hakaba hagaragara umuntu urimo kuzitera umuti akoresheje igikoresho cyabugenewe, uwo muntu akaba yambaye ga z'icyatsi cyijimye.

Umurima munini cyane urimo imyaka itandukanye bigaragara ko ari imyaka ihingwa mu bishanga, harimo abantu bafite ibikoresho by'ikoranabuhanga basa nkaho bari gutera imiti muri ibi bihingwa.

Abantu basa nk'aho bari gushyira umuti mu bimera, cyangwa se mu bindi bihingwa. Iyi miti ikaba yifashishwa mu kurwanya ibisimba, cyangwa se ibyorezo ku bihingwa.

Ubuhinzi n'ubworozi bw'amafi bikorerwa mu byuzi, turabonamo abantu babiri bafite indobani bari kuroba amafi yamaze kuba makuru.

Ubuhinzi ndetse n'ubworozi bw'amafi bwororerwa ahantu hatandukanye, nko mu byuzi, mu bigega ndetse no muri shitingi, bidufasha korora amafi akabasha gukura neza ndetse agatanga umusaruro, bityo ubukungu bw'igihugu ndetse n'ubw'abantu bukiyongera.

Ibikorwa by'ubworozi ndetse n'ubuhinzi bw'amafi, bikorerwa mu byuzi, bigaragara ko hororerwamo amafi kugira ngo abashe gutanga umusaruro utubutse.

Ubworozi ndetse n'ubuhinzi bw'amafi, hano haragaragara abantu barimo kuroba amafi mu byuzi, n'amafi y'ubwoko butandukanye.

Ubuhinzi ndetse n'ubworozi bw'amafi bukorerwa mu byuzi ndetse n'ahandi hantu hatandukanye, hano hari umuntu ufite amafi bigaragara ko arimo kuyaroba.

Ubuhinzi ndetse n'ubworozi bw'amafi bukorerwa mu by'ubuzi, hirya y'icyuzi hari abantu ndetse hari umuntu bigaragara ko ari kuroba amafi.

Abantu bari gukora akazi ko gukusanya amafi bayaterura mu byo arimo bashobora kuba bari kuyajyana aho yabigenewe kubikwa bakaba bagenda baterurana babiri babiri cyangwa se umwe agaterura ukwe.

Ubuhinzi n'ubwo ubworozi bw'amafi, hano hari amafi bigaragara ko ari kureremba hejuru, ashobora kuba afite ikibazo.

Ubuhinzi n'u ubworozi bw'amafi. Ubworozi bw'amafi, bukunda gukorerwa mu bice bitandukanye, ndetse hifashishijwe n'ibikoresho bitandukanye. Hano bigaragara ko bakoresheje igikoresho cya shitingi, kugira ngo babashe korora amafi. Hari abantu babiri.

Ubuso bw'umurima munini uhinzemo icyayi. Hakaba hari abantu barimo kugisarura, iki cyayi kidufasha mu kuzamura ubukungu bw'igihugu ndetse n'iterambere ry'abaturage.

Umusozi munini ndetse n'ibibaya bihinzemo igihingwa k'icyayi, iki gihingwa kidufasha mu kuzamura iterambere ry'igihugu ndetse n'iry'abaturage.

Igihingwa k'ikawa hari abantu bari gutoranyamo inzima, iki gihingwa kidufasha mu kuzamura iterambere ry'igihugu ndetse n'iterambere ry'abaturage muri rusange.

Umurima munini usa nk'igishanga, uhingwamo igihingwa cy'umuceri, imbere yawo hari abantu batandukanye, abagore ndetse n'abagabo. Igihingwa cy'umuceri gituma tuzamura umusaruro w'abaturage bikongera ubukungu bw'igihugu.

Igihingwa ngengabukungu kizwi ku izina, ryitwa icyayi. Harimo umugore, wifubitse igitenge witeze mu mutwe arimo kugisoroma ashyira mu gitebo.

Igihingwa abantu benshi bazi ku izina ry'ikawa, ikawa idufasha kuzamura ubukungu kandi igatanga amafaranga mu baturage, dushobora kuyikoresha tuyinywamo icyayi.

Igikoresho cyifashishwa mu kujyana imiti y'inyamanswa ahantu hatandukanye nk'imiti y'inka kugira ngo itaza kwangirika mu gihe bayitwaye.

Icyumba kirimo imiti itandukanye, iyo miti akaba ari imiti y'inyamanswa, harimo imiti y'inka, indogobe, ihene, intama ndetse n'andi matungo atandukanye, magufi ndetse n'andi yororerwa mu rugo.

Icyumba kirimo imiti y'amatungo, iyi miti yifashishwa mu gihe dushaka kongera amatungo yacu vitamini cyangwa se mu gihe amatungo yacu afite indwara.

Ahantu hari imiti itandukanye y'inyamaswa, hari iy'inka, hari iy'ihene ndetse n'izindi nyamaswa zitandukanye, bigaragara ko ari depo y'aho umuntu ashobora kujya kugurirayo iyo miti.

Icyumba kirimo imiti itandukanye y'inyamaswa, yaba amatungo magufi cyangwa amanini, harimo iy'inkoko n'iy'izindi nyamaswa cyangwa se ayandi matungo, ushobora kuyifashisha mu gihe zagize ikibazo.

Icyumba kirimo imiti y'amatungo itandukanye. Dushobora kuyifashisha mu gihe amatungo yacu yagize ikibazo cy'uburwayi runaka.

Umurima urimo ibihingwa bitandukanye, biragaragara ko aha ari ho abahinzi bifashisha barimo kwinaza imbuto, kugira ngo bazazibyarurire ahandi bateguye. Harimo abantu baje kureba izo mbuto.

Ubworozi bw'amatungo atandukanye, hano hari inka, zifite ibara ry'umukara ndetse rivanze n'iry'umweru.

Ikibaya gihinzemo ibigori hagaragara ko ari umuhinzi uri kubyitaho kugira ngo arebe niba bifite udusimba ateremo umuti.

Mu murima munini urimo akayira kari kugendamo umuntu usunitse igare, bikaba bigaragara ko ari umuhinzi agiye guhinga kuko afite n'ibikoresho by'ubuhinzi by'igitiyo, ari kumwe n'undi muntu uri inyuma ye.

Abahinzi b'ianasi, bicaye mu murima w'inanasi, harimo abagore ndetse n'abagabo, bamwe muri bo bambaye udupfukamunwa.

Ubworozi bw'amatungo, hano hari inka zitandukanye, zifite amabara y'umweru ndetse n'umukara, ziri mu kiraro cyabugenewe.

Umurima munini cyane uhinzemo imboga, izi mboga zidufasha mu kongera vitamine mu mubiri ndetse no kugira ngo tugire ubuzima bwiza kandi bidufasha kongera amafaranga ndetse n'ubukungu bw'umuryango ndetse n'igihugu.

Umurima munini ugaragara ko uhinzemo ibigori, harimo umugore urimo kubikorera kugira ngo bizakure neza.

Ibyo kurya bitandukanye muri ibyo byo kurya harimo imboga zitandukanye, ndetse n'izindi mbuto zitandukanye. Murii zo harimo karoti, amashu, ibitunguru, ndetse n'ibindi bakoresha mu guteka.

Umurima urimo ibimera bitandukanye byifashishwa mu gutunga abantu ndetse no kubongerera intungamubiri.

Umurima urimo ibihingwa bitandukanye nk'ibigori, ibi bigori bidufasha mu kurya intungamubiri zuzuye. Ibi bigori bikaba bihinze bivanze n'ibindi byatsi bisanzwe.

Igishanga kinini cyane giteyemo ibyo kurya bigaragara nk'aho ari umuceri, harimo abantu benshi batandukanye bafite amasuka ndetse n'abatayafite, bigaragara ko baba baje guhinga hirya, y'aho hari ishyamba rinini cyane rishobora kuba ryabyazwamo imbaho cyangwa se ibindi bikoresho.

Imirima irimo ibiti by'imyembe, imyembe idufasha mu kugira intungamubiri, ndetse tukagira n'ubuzima bwiza.

Igihingwa k'ibirayi, n'ibirayi bitetse ku meza bigaragara ko ari byiza cyane, byifashishwa mu kongera imbaraga mu mubiri.

Akabati karimo imbuto zitandukanye ndetse n'imboga ndetse n'ibinyamisogwe. Izi mbuto n'ibindi bidufasha mu kugira umubiri ufite ubuzima bwiza.

Isoko ririmo ibiribwa bitandukanye, hano harimo imifuka irimo ibirayi ndetse hari n'abantu bigaragara ko baje gucuruza.

urima urimo ibihingwa bitandukanye, harimo ibihingwa by'ibinyabijumba, hakaba harimo n'ibindi bihingwa byitwa ibigori, byose bidufasha kugira ubuzima bwiza.

Umurima urimo ibihingwa bitandukanye, harimo ndetse n'igihingwa cy'ibigori. Ibigori bidufasha, mu kuzamura imirire myiza, ndetse n'ubukungu bw'igihugu n'abaturage.

Ishyamba kimeza ririmo ibiti by'amoko atandukanye, iri shyamba ridufitiye akamaro mu bintu byinshi, rituma tubona imvura kandi rigakurura ba mukerarugendo tukabasha kubona amafaranga bityo ubukungu bw'igihugu bukiyongera.

Ishyamba ryinshi ririmo ibiti bitandukanye muri iryo shyamba riri ku misozi hakaba hagaragaramo inzu za kera zubakishijwe ibyatsi, hakaba hagaragaramo ko banatekeramo muri izo nzu.

Umusozi uriho ishyamba ryinshi, ishyamba ryifashishwa mu kuyungurura umwuka ndetse no mu kubaka ibintu bitandukanye.

Ubuhinzi bw'imbuto ndetse n'indabyo muri uyu murima harimo imbuto nyinshi izi mbuto zifashishwa mu kongera intungamubiri ku bantu.

Ahantu binariza imbuto ndetse n'imboga zitandukanye, hano haragaragara ingemwe z'amashu, hari umugore uziteruye ndetse n'undi mugabo uri hirya ye, bose bakaba bambaye udupfukamuwa.

Ubuhinzi bw'imboga, imbuto ndetse n'indabyo, hano haragaragara umuntu wita kuri ubwo buhinzi akanabuteza imbere.

Ubuhinzi bw'imbuto, imboga ndetse n'indabyo, biragaragara ko hano ari ahantu babihingira, hakaba harimo umuntu urimo kubyitaho.

Ubuhinzi bw'imbuto n'imboga ndetse n'indabyo hano hakaba hari umurima munini cyane uhinzwemo imbuto zitandukanye.

Imbuto n'imboga zitandukanye, twifashisha buri munsi kugira ngo tubashe kugira ubuzima bwiza, harimo imbuto z'ubwoko bwose ndetse n'imboga z'ubwoko bwose.

Ubuhinzi bw'imbuto, imboga ndetse n'indabyo, hano haragaragara, imbuto zizwi ku bwoko bwa pome, zifashishwa mu kongera intungamubiri, mu mubiri.

Umurima munini urimo ibihingwa bitandukanye, harimo imbuto, imboga ndetse n'indabo. Hano hagaragara imboga z'amashu, hari abantu benshi barimo bareka uko bazitera.

Ubuhinzi bw'imbuto, imboga ndetse n'indabyo, hano bigaragara ko ari ahantu bakoresha barimo guhinga indabyo kugirango zikure neza zitange umusaruro zitishwe n'izuba.

Ubuhinzi butandukanye bw'imboga imbuto ndetse n'indabyo ni umurima munini urimo ubuhinzi bw'imboga zitandukanye, harimo umugabo bigaragara ko ari kuzitaho.

Ubuhinzi bw'imboga, indabo ndetse n'imbuto. Izindi mbuto za povuro zifashishwa mu guteka ibiryo kugira ngo bibashe guhindura impumuro.

Imbuto ndetse n'imboga n'indabyo bitandukanye, hano mu dukarito haragaragaramo imbuto zizwi ku izina ry'imbuto zitwa avoka, zifashishwa igihe turi kurya kugira ngo twongere intungamubiri.

Ibikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa mu kuhira imyaka kugira ngo imyaka ituma mu gihe cy'izuba ryinshi cyane.

Umurima munini urimo ibihingwa bitandukanye, bigaragara ko bakoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga kugira ngo buhire bino bihingwa mu gihe izuba ryabaye ryinshi.

Uburyo bwifashishwa n'abahinzi mu kuhira ibihingwa byabo, bifashisha impombo kugira ngo amazi abashe kugera mu murima wose.

Umurima munini cyane uhinzwemo ibihingwa. Harimo ibikoresho by'ikoranabuhanga bikoreshwa mu kuhira iyi myaka mu gihe hariho izuba ryinshi.

Uburyo bwifashishwa mu kuhira imyaka, ubu buryo budufasha kuhira imyaka neza yose ikagerwaho n'amazi, bikayirinda kuma mu gihe cy'izuba.

Ibikoresho bakoresha mu buhinzi buhira imyaka mu gihe k'izuba ryinshi, harimo ibikoresha izuba kugira ngo bibone umuriro, hagaragara abantu barimo kubikoresha buhira imyaka.

Ibikoresho byifashishwa mu kuhira imyaka igihe cy'impeshyi kugira ngo imyaka ituma. Biri mu murima uhinzemo ibihingwa.

Ibikoresho byifashishwa n'abahinzi mu buryo bwo kuhira imyaka yabo kugira ngo mu gihe cy'impeshyi iticwa n'izuba ikuma, harimo umugore uhagaze mu murima urimo kuhira.

Uburyo bwo kuhira imyaka hifashishijwe ibikoresho by'ikoranabuhanga, ubu buryo budufasha kugeza amazi ku bihingwa byose.

Uburyo bwo kuhira imyaka hifashishijwe amadobo ndetse n'ikoranabuhanga, hano harimo umugabo bigaragara ko ari kuhira imyaka yahinze.

Uburyo bw'ikoranabuhanga bwo kuhira ibihingwa mu gihe byahuye n'izuba, ubu buryo budufasha kugeza amazi ku bihingwa byose.

Ibibaya ndetse n'imisozi hariho ibyatsi ndetse n'amashyamba atandukanye, ndetse muri ibi bibaya harimo n'ibishanga.

Imisozi ndetse n'ibibaya, biriho ibiti, ndetse hari n'amazi ari mu bibaya, ashobora kuba ibiyaga cyangwa utuzenga duto.

Imisozi n'ibibaya biriho ishyamba ryinshi ndetse n'ibindi byatsi bitandukanye nk'ibihuru ndetse hariho n'amazu agiye atuyeho abantu.

Imisozi ndetse n'ibibaya hamwe hari amashyamba, ahandi hakaba hahinzwe imyaka itandukanye.

Imisozi ndetse n'ibibaya, biriho amashyamba ndetse hahinzweho n'ibihingwa bitandukanye, abantu bashobora gukuramo amafaranga cyangwa se bakabikoresha bihaza mu biribwa.

Imisozi ndetse n'ibibaya biriho amashyamba, ndetse nibindi bihingwa bitandukanye, ni imisozi miremire cyane.

Imisozi iriho amashyamba, hasi hakaba hari ikibaya bigaragara ko hubatsemo inzu hashobora guturamo n'abaturage, muri ibi bibaya hahingwamo n'ibihingwa bitandukanye.

Imisozi ihanamye, muri iyi misozi haragaragaramo imiturire y'abantu, aho bagiye batura bitandukanye, hakaba harimo n'imirima aho bahinga cyangwa se aho bahira ubwatsi bw'inka.

Icyumba kigaragara ko aricyo bororeramo inkoko, harimo inkoko zifite amabara y'umweru, hirya yaho hakaba hari ibikoresho zifashisha zirimo kunywa amazi.

Icyumba cyororerwamo inkoko, muri iki cyumba harimo imishwi mito y'inkoko, hari ndetse n'ibikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa mu guha amazi utu dukoko duto.

Ifamu irimo inka nyinshi zitandukanye, ndetse n'ubwoko butandukanye biragaragara ko zirimo kwisha ubwatsi, kandi hirya yazo hari umuntu uziragiye ngo zitona.

Ibikoresho byifashishwa mu gutunganya umusaruro ukomoka ku matungo, harimo ibidufasha gutunganya amata neza kugira ngo anywebwe, afite ubuziranenge.

Urwuri rwororerwamo inka hakaba hari n'aho bazijyana mu gihe bagiye kuzikingira, harimo inka z'inyambo ndetse hakaba hari n'abavuzi b'amatungo bambaye amataburiya y'umweru bigaragara ko baje kuzisuzuma cyangwa se kuzikingira.

Ifamu irimo ihene, izo hene akaba ari ihene z'umweru, hakaba hari n'izindi hene z'umukara ndetse n'andi mabara, bigaragara ko ari ho ziba ziri, hirya hari aho zijya gukura ibyo kurya.

Ifamu irimo inka zitandukanye, harimo izifite amabara y'isine ndetse n'izifite amabara y'umweru n'ay'umukara biragaragara ko zirimo kurisha ubwatsi.

Aho bororera aha harimo ihene zitandukanye, harimo izifite amabara y'umweru ndetse n'ay'umukara, biragaragara ko ari aho zitaha ariko ntabwo ari aho zirishiriza.

Inzu yororerwamo inka zitandukanye bazizanira ibyo kurya bizwi nk'ibyatsi zirya aho ziba ziba, hari umuntu ushinzwe kuzitaho no kuziha ubwatsi.

Ifamu nini irimo ihene z'ubwoko butandukanye, ni ihene zifite amabara y'umweru ndetse n'isine, zikaba zifite n'amahembe abiri.

Ubwoko bw'inkoko buzwi ku izina ry'imbata, harimo izifite amabara y'umweru, ndetse n'izifite amabara y'umukara avanze n'umweru, hagaragara ikiraro zibamo.

Ifamu nini cyane irimo ihene zifite amabara atandukanye. Ndetse harimo n'abantu bigaragara ko bari kuziragira.

Ifamu irimo inka z'inyambo hakaba hari abaveterineri bambaye amataburiya y'umweru ndetse na bote, hakaba bari kumwe n'abandi bantu bambaye ibisurubeti by'ubururu ndetse na bote z'umweru.

Ifamu ririmo inka zitandukanye biragaragara ko izi nka ari inka z'inyambo, muri iyo fam uharimo abaveterineri bisa nkaho bari gusuzuma zino nka cyangwa se bari kuzikingira uburwayi.

Inzu nini cyane yifashishwa mu korora inkoko, hifashishijwe ikoranabuhanga, cyangwa se ibyo bita ku buryo bwa kijyambere, ni inkoko, hakaba hari n'amagi ziba zateye.

Icyumba cyororerwamo amatungo azwi ku izina ry'ingurube. Harimo ibiribwa zirya ndetse zitanga n'ifumbire ,iyo fumbire yifashishwa mu kongera umusaruro.

Imbuto z'ibigori bivunguye harimo umuntu uri kubitoranya kugira ngo akuremo imyanda, cyangwa se akuremo ibigori byapfuye kugira ngo babone ko babitunganyamo ifu.

Imbuto z'ibishyimbo zifashishwa mu guhinga bino ni byo batera hanyuma bigakuramo ibindi bishyimbo bikabyara umusaruro utubutse cyangwa se dushobora no kubiteka.

Icyumba gihunikwamo imyaka itandukanye cyangwa se imbuto zitandukanye kugira ngo zizabashwe gukoreshwa mu gihe kiri imbere, yaba mu kuzihinga cyangwa se mu kuzirya.

Umurima urimo ibirayi byinshi, bigaragara ko ibi birarayi byeze, hari abantu bari kubisarura babibika mu mifuka bajya kubibika mu rugo kugira ngo bitazapfa.

Amahundo y'ibigori menshi ari mu murima bino barabivungura bagakuramo ibyogoshesha cyangwa se bagakuramo ibindi bintu bitandukanye, hari abantu batandukanye bari kubitoranya.

Imbuto zitandukanye, zifashishwa mu guhinga kugira ngo zizabashe kuvamo izindi zibyare umusaruro utubutse.

Imbuto zitandukanye harimo: imbuto z'ibishyimbo, iz'amashaza ndetse n'izindi, izi mbuto zifashishwa mu guteka cyangwa se mu kuzitera kugira ngo zongere zibyare undi musaruro.

Abavuzi b'amatungo barimo kuvura itungo rifite ubwoya bw'umweru, bambaye amataburiya y'umwe ndetse bose bambaye uturindantoki kugira ngo batanduzwa n'amaraso.

Urwuri rurimo inka z'inyambo, ziri aho bazikingirira, aho hari abaveterineri bambaye amataburiya y'umweru ndetse bari kumwe n'abashumba bambaye imyenda yabugenewe.

Abantu bari mu nzu y'ubushakashatsi, biragaragara ko bari gukora ubushakashatsi, bose bambaye amataburiya y'umweru, uturindantoki tw'umweru ndetse n'udupfukamunwa tw'umweru.

Icyumba gikorerwamo ubuvuzi bw'amatungo, harimo abantu babiri, bigaragara ko bari kuvura inyamanswa yitwa imbwa.

Abaveterineri bigaragara ko barimo kubaga itungo, barimo gukoresha ibyuma byabugenewe ariko bisa nkaho bari kuyikoreraho ubushakashatsi.

Inyamaswa ziba mu ishyamba zizwi ku izina ry'Impara, izi nyamaswa zizi kwiruka cyane kandi zifite amabara meza y'umukara n'umweru, hano zirimo kunywa amazi mu kiyaga.

Inyamaswa iba mu ishyamba, akanyamaswa kibera ahantu ku musozi ku buryo kadatinya imvura cyangwa se izuba.

Umuhanda uri kugendamo inyamaswa zikunze kuba mu ishyamba zitwa ibitera, ziri kugenda mu muhanda ziwambukiranya zijya hirya.

Inyamanswa yo mu ishyamba igira amahane yitwa ingwe, iyi nyamanswa izwiho kuba izi kwiruka cyane kandi ikaba igira n'umujinya.

Inyamaswa ziri mu bwoko bw'inyamaswa ziguruka, utu tunyamaswa turagaragara ko dukunda kwibera ahantu mu ishyamba, cyangwa se mu byatsi aho tubasha kubona udusimba two kurya.

Inyamaswa ziguruka zibera mu ishyamba, izi nyamaswa zirya utusimba duto duto zigenda zitoragura mu gihe zirimo gushaka ibyo kurya.

Inyamaswa ziba mu ishyamba zikunda kurira ibiti, izi nyamaswa ziba zaramenyereye kuba mu ishyamba ndetse zikaba zirya mu byo zahize.

Inyamaswa yo mu ishyamba tuzi nk'akanyamaswa gato ka kuba mu ishyamba, kazi kwiruka cyane, iba mu ishyamba kandi ikunda kurya ibyatsi kuko bigaragara ko ari naho ihagaze.

Inyamaswa zo mu bwoko buguruka bw'inyoni ziba mu ishyamba, zifite iminwa miremire ndetse n'izosi zirerire zirimo kunywa amazi, inyuma yazo hari uturabo twiza.

Inyamaswa zizi ku izina ry'impara ziba mu ishyamba, zirimo kunywa amazi ahantu hameze nk'aho ari mu kiyaga cyangwa ahantu hareka amazi.